Ihuriro rigari rigizwe n'abaturage ndetse n'umwarimu, urimo ubasobanurira ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe bukaba ari ikibazo gihangayikishije Isi muri rusange, aho uzasanga ababyeyi bahangayitse cyane ndetse n'abana babo, uzasanga ari ikigo gishyigikiwe na Leta zunze Ubumwe za Amerika.

Siporo ya buri munsi ni ingenzi igufasha kugira ibiro byiza no kutagira ibinure byinshi ndetse kandi ukaba uteye neza, siporo rero yifashishije ikoranabuhanga riteye imbere aho umenya uko uhagaze.

Siporo ngororamubiri usanga ari siporo zibandwa mu gihe umuntu yumva atameze neza yaba afite uburwayi yaba atanabufite zimufasha kuba yamera neza ndetse zikamurinda no kuyarwaragurika. Usanga ari siporo ziganjemo izo kunanura imitsi, kurambura amaguru, ndetse no kurambura amagufa.